Umukobwa ufite imisatsi myinshi wambaye ipantaro y'umweru uri kuri terefone aryamye ku buriri hasi ye hari amagambo yanditse ngo kuba hoteri yuzuye ntibikwiriye guhungabanya urugendo rwawe.

Icyapa kiri kwamamaza radiyanti yacu ibyo ikora, ibyanditswe radiyant yacu yego birahendutse kanda akanyenyeri magana atanu na mirongo itatu na rimwe urwego Gura turikumwe ubwishingizi bw'ubuzima bwawe n'abagize umuryango wawe.

Ibizazane by'ubuzima ntibiteguza, ubwishingizi bw'mpanuka bwa purayimu bugufasha kuguma utekanye purayimu inshuwarensi sekiwa tumoro tudeyi gurupe pasoni akidenti nshuwarensi.

Umukobwa wambaye amadarubindi n'ikote ry'umukara ishati yu'mweru, atunze amagambo urutoki haribyo ari kwamamaza bigira biti gura turi kumwe, ubwishingizi buhendutse bwwu'ubuzima kanda akanyenyeri magana atanu mirongo itatu na rimwe urwego.

Icyapa kiriho umugore wambaye ishati y'umukara, hari ibyanditswe kuri icyo cyapa, kiriho n'ikimodoka gihinga, tabuzi safu inshuwarensi, famazi inshuwarensi.

Icyapa cy'umutuku kiri imbere y'ibiti, hariho ifoto y'umuzungu hariho n'amazina Melisa harimo nimero ze gatatu gatatu kane umunani ikenda ikenda, zero ikenda karindwi gatanu, siteye famu ayi donti jasite si wneyiba.

Abagabo barimo abagore bafashe icyapa cy'ubururu cyanditseho sanilamu Rwanda, bahagaze kuri tapi y'umutuku bari kukigaragaza nkaho hari ibyo bashaka kwerekana kuri ibi bintu bijyanye na sanilamu.

Ibiganza bibiri radiyanti wihangayika intego ni ugutangira umwaka ushinganisha ibyawe n'abawe, maze ugire umutekano usesuye uhawe ikaze muri radiyanti.

Umugabo wicaye ku ntebe y'umukara wambaye itaburiya y'umweru, bigaragara ko ari umuganga, ari gupima umwana mutoya azanye n'ababyeyi be papa na mama kureba niba adafite ikibazo.

Sasita n'iminota itandatu, mirongo ikenda na rimwe ku ijana, Ecobank The Pan African Bank, makingi shure yoru konekisheni izi secyuwa, mu ibara ry'ubururu.

Telefoni igaragara nk'aho irimo account ya banke uko ikoreshwa, handitsemo amagambo: BK to Momo, airtime, BK to BK, statement, complete your security questions, it will only take you not more than 15 minutes.

Urubuga rwa telefoni rurimo amazina y'abantu ndetse n'amafaranga, bigaragara ko ari ingano bose bagiye bakoresha na toto avelebo.

Umuntu wambaye amadarubindi ufite ibisuko, imyenda, inkweto akabati k'umweru, Amabara y'umukara amaji.

Urupapuro, ameza, umuntu, ikaramu, mudasobwa, karikatirisi, ibitenge by'umutuku, ubururu, umuntu

Iduka rifunguye ubona ko ryahariwe gucuruza imyambaro y'igitsina gore, harimo amakanzu maremare n'imbere harimo amatara ari kwaka.

Ifoto ya sikirinishuti bakuye kuri fesibuku donti komu harimo tisheti y'umutuku, iy'iycyatsi, iy'umweru bigaragara ko biri kugurishwa bimanitse ahabugenewe kugirango babigurishe.

Inzu igaragaza ibintu bijyanye n'ubucuruzi, imbere yaho bacuruza ibintu by'indabo hari akapa ka emutiyene, kagaragaza ko wayisanga hano, hari n'umuntu uri gucuruza imisego mu nzira, aha hantu ni kwa mama Amina.

Icyumba kirimo imyenda n'ibyuma n'aho imanitse kugira ngo ibe irinzwe bigaragara ko ari ishopu cyangwa aho bagurishiriza imyenda y'abadamu yo kwambara.

Abakobwa babiri, umwe wambaye imyenda y'ubururu, ufite ishati mu ntoki bigaragara nk'aho ari kuyicuruza, imbere ye hari uwambaye ishati y'umweru afite igikapu cy'umukara, imbere ye hari ameza, iruhande rwabo hari televiziyo.

Imyenda imanitse k'utwuma, utubaho imyenda y'umukara ifite amabara y'umweru umuhondo, icyatsi, ubururu, igikuta, icyuma.

Ibipupe byambaye imyenda ibara ry'ubururu, ibara ry'umuhondo, ibara ry'umweru ibara ry'cyatsi, ibara ry'umutuku, ibara ry'umukara.

Inyubako iriho akapa imbere kagaragaza ko ari butike, impande hari imyenda bigaragara ko iri gucuruzwa, hasi hari imeza iriho imitako myinshi itandukanye mo imbere harimo imitako bigaragara ko bari kwicuruza imitako bashyira mu nzu.

Inyubako nini ifite parafo n'amatara hasi hari amakaro harimo imodoka z'amavatiri zigiye zitandukanye bigaragara ko ziri ku isoko ziri gucuruzwa.

Icyumba gihagazemo imodoka ebyiri za yundayi bigaragara ko hacururizwa ibinyabiziga kuko hari n'ameza ateretseho amazi, ibipapuro.

Abantu batatu harimo umugore umwe basa nkaho bari kwamamaza Akagera motezi hari inyuma yabo imodoka bahagaze ku mapave igipangu.

Imodoka eshatu z'umukara ubona ko ziri mu bwoko bumwe, ziri mu gipangu cy'amatafari harimo n'indi ya fuso yikorera ibintu bigiye bitandukanye, ibiribwa.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza ifite ubusitani bwiza, ahangaha ni ahantu ushobora kuza ukicara ugafata ikawa nziza y'u Rwanda ukinywera ubundi ibintu bikamera neza.

Inzu irimo abantu benshi, abandi batanu bakoze uruziga bicaye n'abandi bahagaze, imbere yabo hari ameza, amakayi ubona ko bari kuganira ku kintu runaka bari kugifatira umwanzuro kuko bari kujya banandika.

Inyubako imbere yaho hari umugabo uhagaze bigaragara ko ari gufata ifoto yamamaza akagera motazi inyuma ye hari fuso y'umweru.

Abagabo babiri bambaye amashati n'amapantaro, bafashe ifoto, bari kwamamaza akagera motazi, inyuma yabo hari imodoka ya fuso.

Abantu babiri umwe wambaye ishati y'umweru, imodoka, ikirahuri, umunara, ibiti, ikirere, akagera motozi a bi ji.

Inzira hari umuryango ukinguye w'igipangu, harimo imodoka z'ubwoko bugiye butandukanye. Hari icyapa cya hundayi kigaragaza ko hano hantu hakorerwa ubucuruzi bw'amamodoka.

Imodoka y'umukara ifite amatara y'umutuku intebe z'umukara, iri ahagenewe guparika ibinyabiziga, iri mu kizu cyo baparikamo imodoka, impande hari imodoka ebyiri hasi hari amakaro.

Abagabo babiri umwe wambaye tisheti y'umutuku n'ingofero y'umukara, undi yambaye ipantaro ya kaki bahagaze imbere y'ikimodoka kinini, inyuma hari amamodoka menshi bigaragara ko ahaparitse.

Inyubako y'ibirahure, ifite amakaro hasi, harimo imodoka y'umukara, n'amabara y'umweru n'umutuku, bigaragara ko igurishwa, iri ku isoko.

Amafaranga aziritse imashini ibara amafaranga, ikirahure cy'ubururu, ijana, imfokawunti, itushe ry'icyatsi, umukara, ubururu.

Inoti ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda amwe ariho ingagi eshatu andi ariho abana batatu, tugereranije n'ayubu aya mafaranga ni ayo mu gihe cya kera.

Abagore babiri gusa bari mu twumba tubiri dutandukanye imbere yabo hari ibirahure bikaseho ndetse n'ibyapa byanditseho egenti paking mobile mani, ubona ko ari muri banki hakoreshwa na manigramu, wesitani uniyoni ndetse ubona ko ari banki mpuzamahanga yakira amafaranga ndetse ikanayatanga.

Terawani teratu, mudasobwa z'umukara, abantu, banke, ibirahure, ukigaragaza y'uko hano hatemerewe kunywera itabi, umweru.

Abagore babiri umwe wambaye ishati y'umutuku ari kwandika ku rupapuro n'ikaramu, imbere ye hari undi wambaye ikoti ry'umukara bigaragara ko ari muri banke hari icyo yaje kureba, ubufasha runaka bw'amafaranga n'ibijyanye n'ibindi bitandukanye bikorerwa muri banke.

Inoti y'amafaranga ijana, banki nasiyonari y'u Rwanda bigaragara ko ari inoti zakoreshwaga kera, kubera ko ubu dukoresha ibiceri by'ijana.

Amabara y'umukara, umweru, igiceri, banki nkuru y' u Rwanda, ikigori gitonoye, amababi, bibiri na cumi na rimwe, umutima.

Umuntu, ibara ry'umweru, amafaranga aziritse magana atanu ariho umuntu, imashini ibara amafaranga, ameza, intebe.

Amafaranga makumyabiri ndetse ariho ikirangantego cy'agaseke n'amasaka, bigaragara ko ari amafaranga akoreshwa mu Rwanda kuko kino ni ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo wambaye amadarubindi, ari imbere muri kotwairi, imbere ye hari umusore uriguseka ufite akajerekani k'umuhondo bigaragara ko ari ahacururizwa amata, amandazi imigati n'ibindi bigiye bitandukanye.

Tuyoru tebo inyange, milikizone intebe z'umweru, amakaro ijelikani umubirikira agatebe inyange umuntu icyapa.

Ameza ateretseho akajerekani k'umweru gafite umufuniko mo imbere ubona ko harimo amata y'inka cyangwa y'irindi tungo bigaragara ko ari ahantu bayacuruza cyangwa bavuye gukama.

Abantu babiri, umugore n'umugabo, umwe wicaye undi uhagaze, iruhande rwabo hari icyapa cya mukamira, ndetse inyuma y'aho hari etajeri cyangwa ahaterekwa icyo kunywa, nk'amazi, amaji yo kunywa, bigaragara ko ari ahantu bacururiza amata, ndetse n'ibindi bijyanye n'uruganda rw'Inyange.

Icyumba kigari gitatse neza gifite ibikuta by'umweru, hicayemo abagore n'abagabo bisa nk'aho bari mu nama, imbere yabo hateretse amacupa y'icyo kunywa, imashini ndetse n'igikapu.

Ameza ariho igitambaro cy'igitenge hateretseho igikombe cy'amata cy'icyuma, iruhande rwaho hari icupa ry'amazi na terefone.

Inyange miliki zone, umuryango, inzugi, umwana, amapave, inzu, amakaro, indobo.

Ameza ariho isahani iriho seriviyete cyangwa ibyo twihanaguza ku munwa, wenda tumaze gufata ifunguro cyangwa ibyo kunywa, bigaragara ko ari ahantu hakirirwa abaje gufata muri bimwe mvuze aho ngaho.

Abantu bane harimo abagabo n'umugore wambaye umupira w'umuhondo usa naho ari kwamamaza ikirango cya mtn afite ivide mu ntoki ririmo fanta ya coca bigaragara ko ari kunywa n'abandi bantu bari aho ngaho.

Uruziga rugaragaza uburyo bishyuramo remefadi, mudasobwa ushobora kuyishyuriraho wishyura amadolari ,telefone cyangwa amafaranga mu ntoki cyangwa wanditse.

Peyi peyi afuri konegitando, umuryango w'umukara abantu bambaye ishati y'umweru impantaro y'umukara ibirahure amakaro.

Abantu babiri umugore n'umugabo bafashe telefone ubona ko hari ibyabatunguye bari kugaragaza hari ibyanditswe bivuga ngo singiza abandi ibyiza bya sipeni uhabwe amafaranga kuri buri nshuti utumiye gukoresha sipeni bigaragara ko hari ibyo bari kwamamariza abandi gukora.

Umugore n'umugabo bicaye bari kureba muri telefone ya simati fone bari kugaragaza uburyo ki wakoresha momo foromu mtne ukanze akanyenyeri magana atandatu na mirongo irindwi na rimwe.

Terefone irimo amanota y'uburyo wanoza inguzanyo yawe, harimo amagambo yanditsemo uvuga ngo karentili yoru kerediti sikowa izi tuwentitu, yunidi tugeti yorusikowa tufifiti tu apulayi foru eloni.

Amakuru yanditse ariko ubona ko yandikishijwe na mudasobwa ari mu rurimi rw'icyongereza bavuga ngo”please let me know why the money I sent it’s still in transit. otherwise,I will cancel the transaction and not use MoneyGram again.”.

Agatebo karimo uburyo ki ushobora kubika amafaranga kuyabitsa, kureba ayo waba usigaranye kuri konte, ubufasha n'ibindi bigiye bitandukanye, hari amagambo yo mu cyongereza ahanditse uburyo bivugwa cyangwa bikoreshwa ngo werikamu tu MTN momo, sendi mani, peyi eyatimu, bandozi, momo peyi n'ibindi.

Urupapuro rwemeza ko hari ibyo wakiriye rwa Rwanda Reveni Otoriti. Ruba ruriho amatariki y'icyo gihe n'ay'ubu n'igihe ubitangiye n'igihe wishyuriye.

Urupapuro rugaragaza ubwishyu n'amatariki byagiye bikorerwa Rwanda reveni otoriti. Handitse amatariki mu rurimi rw'icyongereza bivuga ngo from date tariki zu kwa mbere ukwezi kwa kabiri bibiri na cumi na karindwi to date tariki makumyabiri n'umunani z'ukwa kabiri na cumi na karindwi n'ibindi.

Urubuga rwa bank of kigali bigaragara ko ruri muri mudasobwa, hariho aho amagambo yanditse mu cyongereza avuga ngo acout statement for the period an count number a coutinnem kirence printed by blc dite n'ibindi n'ibindi.

Urwandiko ruriho ikigantego cy' u Rwanda ripabulike ovu Rwanda endi Rwanda reveni otoriti bigaragara ko ari rwo kumenya uko wagiye wakira ibintu runaka, kuko hariho amatariki sabumitedi igihe watangiye ibyo bintu.

Wi bayi ati, wi seri ati, Euro, United Kingdom, Canada, Japan, Mexico, Australia, Belize, Brazil, Denmark, Honduras, Sweden.

Amafaranga y'inoti ariko atandukanyije imibare ndetse n'uko imbere hasa n'inyuma bigiye bitandukanye. Magana atanu, imbere hari umugabo, inyuma hari inyubako, iy'igihumbi, hari umuntu inyuma hari umusigiti.

Umuntu ufite amafaranga inoti ebyiri zitandukanye, iya magana atanu n'iy'igihumbi ariko ariho amagambo yo mu cyarabu, ari kuzerekana bigaragara ko hari umuntu ari kuzereka cyangwa ari kuzigereranya.

Icyumba kirimo intebe z'amadiva ndetse harimo n'abantu bahagaze, hari icyapa cyanditseho amagambo yo mu rurimi rw'Icyongereza purayimu tuwazi andi taravo cyangwa ingendo zifite ishingiro muri make.

Icyapa kiri ku nyubako, kiriho umugore ufite amafaranga bigaragara ko aho hantu hakorerwa igikorwa runaka. Imbere yaho hari moto ihagaze ya manigaramu.

Inzu ndende, imbere hariho igiti, ifite n'icyapa cyanditseho Muhabura foregisi bureya bipi bibiri na cumi na kane Kigali, telefoni ikaba zero mirongo inani na kane makumyabiri na rimwe makumyabiri na karindwi icyenda.

Intebe y'imbaho inyuma yayo harimo utubati twinshi na matoronovisi n'ibindi byinshi n'insinga, bigaragara ko hari ahantu babariza ibintu bigiye bitandukanye.

Intebe nini z'amadiva n'imisego yazo, hagati yazo hari ameza manini n'amagufi, inyuma hazo hari imbaho bivuze ko ari ahantu bazikora cyangwa bazicururiza.

Inyubako nziza ifite amabara y'umweru, hari ameza y'umweru n'umukara ateretseho imitako, iruhande hari intebe z'amadiva ndetse n'umutako w'ururabo, hasi hashashwe amakaro, bivuze ngo ni saro y'inzu.

Intebe nyinshi zikozwe mu mbaho hagati harimo ameza bigaragara ko ari muri saro bafatiramo amafunguro hasi hari amakararo, inyuma hari igikuta cy'umweru.

Inyubako ndende, amatara, amatara y'imodoka, icyapa, umutuku n'umweru, imihanda itandukanye.

Amazi ari aho bakarabira ibara ry'ubururu, irangi ryumweru ibiti, amazu menshi agerekeranyije ikirere ibicu.

Ahantu ku musozi muremure witaruye hari amazi nk’intebe zo ku mazi, aho baruhukira hari intebe zo kwicaraho n'imitaka ibarinda izuba.

Umutaka w'umutuku ufite utwuma tw'umukara, inzu ifite amarangi y'umweru n'umukara n'umutuku, jaride, umutaka w'umweru, intebe, ameza.

Saro irimo amatara intebe z'amadiva n'imisego ameza nimitako yo mu ndabyo.

Ni saro nini cyane hagaragaramo intebe z'umutuku, iz'umukara, ameza, akabati, amatara irangi ry'umweru, ururabo, imisego....

Inyubako ndende cyane ifite amabara y'umweru n'ay'ubururu, imbere yaho hari amapave acamo ibinyabiziga cyangwa abantu baje aho hantu, ndetse n'ibimera, ibyatsi n'ibiti bitanga ubwiza aho hantu.

Ibiryo biteguye ku meza y'umutuku isahani y'umweru hariho ibiryo by'amakaroni, inyama iruhande rwayo hari icupa harimo icyo kunywa iruhande rw'iryo cupa hari igikombe ibyokome hari intebe zihari zitegereje abantu bazicaraho.

Amazi menshi ariho abantu bogera ndetse n'abasohotse bicaye iruhande rwayo bicaye ku ntebe z'umukara ndetse imbere yabo hari ameza ateretseho icyo kunywa bigaragara ko ari ahantu bafatira amahumbezi cyangwa bibereye hanze.

Aho bogera hazengurutswe n'ibyatsi, inzu ndende, intebe bicaraho, imitaka, ikirere, amadirishya, umuntu, igiti, utuzu tubiri dutoya.

Inyubako ndende cyane y'umuhondo ifite n'amabati, hari pisine cyangwa ubwogero bw'abantu baba bahasohokeye, hari imitaka iri hejuru y'intebe irinda izuba abantu bari ahongaho n'intebe bicaramo bari kwiyakira.

Inzu, amadirishya, igipangu, umuryango, umuhanda, ibara ry'umukara, iry'umweru, ibiti, jaride.

Inyubako ndende ubona ko ishaje hatagikorerwamo ibikorwa runaka, hari icyapa cya UAP kiranga iyi nzu icyakorerwagamo.

Inyubako ya purayimu inshuwarensi ubwishingizi bw'ibanze ifite amatara, amadirishya, imiryango, imbere yayo hari parikingi ijyamo ibinyabiziga.

Icyumba kirimo amatara, ameza, intebe y'umukara n'umugozi ucaginga mudasobwa, iruhande hari intebe z'ibiti,

Abantu benshi harimo abagabo n'abagore bose bambaye udupfukamunwa, bigaragara ko bicaye mu kantu k'akanama, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere y'ameza hariho mudasobwa.

Inzu y'ubururu ifite imiryango y'ubururu, yanditseho irembo siteke. Mo imbere harimo intebe zakirirwaho abaje gushaka serivisi n'iz'umutuku zigaragara ko zicarwaho n'abahakorera, mudasobwa bivuze ngo hano bahatanga ibijyanye no ku irembo serivisi zitandukanye.

Ibirahure, ibikuta, ibara ry'umukara, abantu, ibipapuro, mudasobwa, intebe.

Bigaragara ko ari inyubako ifite itapi y'umweru ifunguye vuba iri i Musanze buranshi hari amagambo yanditse ngo murakaza neza muri NCBA Rwanda PLC.

Inyubako ifite ibice bibiri icyo hasi n'icyo hejuru haruguru bacuruza imyenda y'adamu y'amakanzu hasi hari aho bakorera copedu parasi n'ibindi bige bitandukanye.

Umugabo wambaye ikositimu z'umukara, karuvati ndetse n'ishati y'umweru, amadarubindi ubona ko ari kwamamaza bipiyara banki, hari amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza handitse avuga ngo kongaratireshenizi foru pipo foru beta.

Icyapa kigaragaza aho umutanguha ukorera hariho n'ifoto y'iyo nyubako uko iteye ifite imiryango y'icyatsi hari amagambo yanditseho umutanguha kicukiro buranshi.

Umukobwa witeze igitambaro ufite telefone mu ntoki, usa nkaho ari kugaragaza amagambo ari ku cyapa yanditswe Sipeni lonizi ishimire inguzanyo itagira ikiguzi.

Umukobwa wambaye ikanzu y'icyatsi ndetse n'isaha ufite igikapu, bigaragara ko ari kwerekana uburyo wabikuzamo amafaranga yawe ukoresheje ikarita. Hari amagambo yanditse avuga ngo The future is pan-African . We make it easy for our customers, to access world-class banking.

Umukobwa wambaye amaherena n'ishati ikigina, ufite akazu mu ntoki gatoya bigaragara ko ari kwamamaza ibijyanye n'inyubako, hari ijambo rihanditse rivuga ngo yorodirimu home aweyiti.

Abantu benshi umwe wambaye ingofero ibara ry'umweru, baji y'kazi ibipapuro by'umweru, ameza, agaseke, amazi, terefone.

Abantu bane abakobwa babiri bambaye amatisheti y'umweru amapantaro y'umukara, bahagaze iruhande rw'ameza y'umuhondo ariho impapuro, amakaye bari kwakira abantu babasobanurira ikiri gukorerwa aho hantu.

Isoko, amabati y'ubururu, itiyo, kizimyamwoto y'umutuku, hano dukora terefone byose hano ku giciro, abantu, imyenda

Ibiribwa bigiye bitandukanye biri ahantu bigaragara ko bicuruzwa, harimo insenda, intoryi za kizungu, inkeri, kokombure, intoryi, inyanya, ibiribwa by'ubwoko bwose.

Umuntu w'urukara wifashe ku mazuru wambaye ishati, harimo n'ibitenge, harimo umukara, umutuku, icyatsi, ubururu, umuhondo.

Abantu benshi ubona harimo abagore, abagabo, abakecuru n'abandi bagiye batandukanye. Hari ibirayi, ibitoki ubona ko hari n'abicaye bigaragara ko ari mu isoko bari gucuruza ibiribwa.

Abagore batatu, babiri bicaye undi uhagaze, iruhande rwabo hari amabase afite amabara atandukanye, harimo imineke ndetse n'arimo ibishyimbo, bigaragara ko ari ahantu hari gucururizwa ibyo bintu nk'isoko cyangwa ku muhanda.

Abantu benshi barimo abagore n'nabagabo bicaye imbere yabo hari ameza ariho amamashini, bambaye utuntu dupima cyangwa twerekana ibipimo by'imyenda bapimye bari gukora cyangwa bari kudoda.

Abakecuru batatu biteze ibitambaro mu mutwe bambaye ibitenge, imbere yabo hari amabasi wagira ngo harimo ibiribwa bivuze ngo wasanga bari gucuruzwa.

Inyubako ndende, bigaragara ko ikorerwamo ubucuruzi bwinshi butandukanye, harimo nka serivisi za emutiyene, imbere haparitse amamodoka menshi n'abantu benshi, hari n'imitaka ya eyateli, n'uwa tigo.

Abantu benshi bahagaze ndetse n'abicaye hari imbuto ndetse n'imyenda n'ingofero bigaragara ko ari isoko ikorerwamo ubucuruzi bw'ibyo kwambara ndetse n'imbuto.

Abantu benshi bigaragara ko bari kuva ahantu hamwe bajya ahandi, hari n'abahagaze kuri parikingi bategereje imodoka cyangwa ikindi kinyabiziga. Inzu, inyubako ndende ikorerwamo ibintu bijyanye na bipi ara, ibinyabiziga byinshi.

Isoko bacuruza ibiribwa bitandukanye harimo ibihaza, amashu, shufurere, ibitunguru, karoti, insenda, imiteja, amavoka, ibitoryi by'ibibiriganya.

Akazu gato ka emutiyeni bigaragaramo imbere harimo abantu benshi hari abantu bari gusa serivisi n'abakozi baho handitseho amagambo avuye Rwanda izi ridingi netiwakingi imbere yaho hari abantu benshi bari hanze harimo abambaye imyenda y'umuhondo n'ingofero z'umuhondo.

Abantu bahagaze barimo umugore n'umugabo umwe ufite kamera cyangwa igikoresho gifata amashusho, imbere yabo hari ufite icyapa cy'umuhondo kigaragaza uburyo wakwishyura, iruhande rwabo hari abambaye imyenda y'umuhondo ndetse umugore wambaye ingofero y'umuhondo iriho icyapa cya MTN.

Abantu benshi batandukanye harimo: abagabo n'abagore n'abakozi bambaye amashati y'umutuku n'amapantaro y'umukara bigaragara ko ari icyumba cyahariwe gutanga serivisi zijyanye na eyateri.

Akazu k'umuhondo harimo umuntu wambaye ijire, utanga serivise za emutiyeni mobayiro mani, inyuma yaho hari inyubako irimo imifuka myinshi n'abantu bigaragara ko ari sitoke.

Icyapa cy'amabara y'umuhondo n'umweru kigaragaza uburyo wakwishyura ukoresheje wa mopey haba hariho izina ry'umucuruzi in nkamatechnolog imibare kandayejana maganagana na kabiri kannyeri numuani kriyeri w mwaka innyeri kode cyangwa nimero y'ubucuruzi.

Akazu ka MTN kariho abantu bagiye batandukanye abagabo n'abagore imbere harimo utanga serivisi zijyanye na mobile money n'ibindi bikurikira.

Abantu benshi bambaye imipira y'umuhondo n'amapantaro imbere y'abo hari intebe z'ubururu, inyuma y'abo hari umugore uri kugenda ufite amverope zirimo ibintu bigiye bitandukanye, inyuma ye hari icyapa cy'umuhondo kigaragaza uburyo wakwishyura amafaranga kuri momo.

Momo, emutiyene, ibara ry'umukara, iry'umuhondo, iry'umweru, iry'ubururu, ayoba, umuntu ufite igikapu wambaye baji.

Icyapa cy'umuhondo kigaragaza uburyo wakwishyura ukoresheje momo peyi, ugakoresha kode baragaragaza amazina kalifashuri furaga raka, kode bagaragaza umunani, gatatu icyenda, gatanu, kane, kane.

G and I online servis limited irembo ,mobi cashi, zeru karindwi iminani ibiri mirongo ine na kane ,mirongo inani na kane zero umunani zeru karindwi umunani mirongo ine mirongo irindwi na gatandatu zeru mirongo ine na kabiri ,amazi, abantu ,mudasobwa equty ....

Icyapa cy'umuhondo kigaragaza uburyo ki wakwishyuramo amafaranga ukoresheje mtn momo ,hari amagambo ahanditse n'imibare ushobora gukoresha. Kanda akanyenyeri ijana na mirongo irindwi urwego tu momo iti izina ry'umuntu w'iyo code ndetse ukanohereza.

Akazu k'umuhondo ka emutiyeni hicayemo umugore, imbere ye hari umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara bigaragara ko hatangirwa serivisi za emutiyeni.

Ibyatsi, ibiti, insina, icyapa, abantu, moto, ubururu, icyatsi, umutuku, umuhondo, umuhanda,

Umugabo uhagaze ufite terefone n'ikarita yo kwishyuriraho, imbere ye hari inyanya zitukuye n'udusahani tw'ubururu, iruhande rwe hari umutaka w'umutuku.

Mtn mobile money office agent ,embilanse yoru yelow, kaputiveti, abantu ,mtn kanda winjire mwisi nshya y'amafaranga umuhondo.

Icyapa ubona ko kiri ku meza cya MTN kigaragaza uburyo ki wakwishyura, byanditse mu magambo y'icyongereza avuga ngo pay with momo dial akanyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu, akayenyeri gatatu urwego, ndetse na kode yayo icumi mirongo inani na kane, cumi na gatatu.

Abakobwa babiri umwe wambaye umupira w'icyatsi ari guhereza uri imbere ye amverope irimo icupa, urusenda, iruhande rwabo hari icyupa cyapa cya vuba vuba, kigaragaza ko bakora ibintu bijyanye no kukugezaho ibintu runaka uhawe.

Icyapa kiri kugaragaza inama y'ubucuruzi, harimo n'ifoto y'ukuntu bigenda bikorwa, byanditswe mu magambo y'icyongereza ya buzinesi konferensi rejisiterasheni fizi n'urubuga wabasangaho nimero.

Umumotari wicaye kuri moto, wambaye kasike, ijire y'akazi, ufite telefone mu ntoki, bigaragara ko hari umuntu bari kuvugana, kuko ni ugemura ibiryo ahantu mu maresitora ku bakozi.

Icyapa bigaragara ko bari kwamamaza urubuga rukorerwaho isoko, handitse aya magambo ya onorayini maketi Afurika fondedi yuke kantiri Rwanda, ufite imodoka, inzu, ikibanza ugurisha ukodesha.

Umuntu bigaragara ko atwaye, agiye atwara ibintu ahantu yitwaje ikinyabiziga cya moto, wambaye ikirangantego cya oranje kigaragaza icyo akora, yambaye na kasike imurinda kugira ibikomere, ari iruhande rw'umuhanda w'ibinyabiziga.

Ibara ry'umutuku, amabati yumutuku, igipangu cyumukara, ama pave, inzu, hiyazi wati gatandatu zeru zeru ka mampfusi geti yu yo anifinishedi apatimenti ini Kigali Remera.

Hiyazi wati fotini zero emu Rwandan Fransi bayzi yu ini Kigali siti, Ibendera, umuhondo, ubururu, icatsi, inyenyeri, amakaro, Kanombe, Kigali siti.

Inzu nini ifite salo nziza irimo amatara hasi hari amakaro intebe nziza z'amadiva n'imisego yazo iyo umuntu wenda agiye kuruhuka aba yaryama akanisegura.

Umugabo wambaye ingofero y'umweru agapfukamwa k'umukara ishati y'amakarokaro ari ahantu hari inyubako nyinshi n'ahari kubakwa hari imbaho, ferabeto zishinze bigaragara ko ari ahantu hari gukorerwa ubwubatsi ari umwenjeniyeri.

Icyumba gisa nk'aho gitekerwamo kirimo gaze, utubati tubikwamo ibikoresho byo mu gikoni, bigaragara ko kigurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu muri Kigali.

Icyumba kirimo igitanda n'imisego ibiri, kumutwe wacyo hariho ibara ry'umukara, inyuma hari igikuta cyumweru, impande hari amarido ariko ku idirishya hari n'itarara riri kwaka.

Icyumba kigaragara nkaho bagitekeramo kirimo firigo, utubati two kubikamo, amasahani, ibikombe n'ibindi bigiye bitandukanye, hari aho bogereza ibintu runaka byanduye, hari n'aho batekera.

Inzu nini ifite amatara, amakaro ama eskariye yo hasi no hejuru, harimo umuntu ushaka kuyishyura amadorari ibihumbi bibiri i Kigali mu Rwanda.

Ni icyumba cy'ubwogero harimo tuwarete, harimo amakaro, itara riri kwaka, hasi aha ni amagambo yanditse avuga ngo Remera, Gishushu Kigali siti.

Ikirahure kirimo ishusho y'umuntu uri kwireba, imbere yaho hari ravabo karabimo intoki ubaye usa nabi, uvuye nko mu bwiherero no mu kindi gikorwa gitandukanye.

Inzu ya kadasitere iri mu rupangu, hanze hari parikingi ijyamo imodoka eshatu, hasi hari amakaro, hejuru hariho amabati y'umukara n'imireko ijya kuba umuhondo, ifitemo n'igikari inyuma.

Icyumba cy'umweru bigaragara ko kiri kugurishwa, harimo intebe z'amadiva z'icyatsi, imbere hari imeza y'umweru iriho terekomande; hakurya hari vandarateri na televiziyo.

Inzu, amapave, amakaro, amadirishya, imiryango, insinga, irangi ry'icyatsi, iry'umweru, foru renti, Kigali-Kicukiro fo bedirumuzi, fo bafurumuzi.

Amazu abiri ya kadasteri imwe ifite amabati y'umukara indi ifite amabati y'umutuku hasi hari amapave hari n'umupira n'amakaro hejuru hari ikirere n'ibicu.

Inyubako ndende ndetse yubakijwe ibirahure ifite ibyumba bibiri ndetse n'ibindi byo kogeramo bibiri, ni inyubako idafite ibikoresho ikaba ikodeshwa cyangwa igurwa amafaranga ibihumbi magana atandatu ku kwezi.

Amerekezo ari mu ibara ry'umweru, aho imodoka zihagarara, amapave imodoka z'umukara, ibiti, inzu ndende, amadirishya, ibirahure, apatimenti foru renti Nyarutarama Kigali city.

Icyumba kirimo ameza, hariho telefone ya tuvugane y'umukara, icyapa cya tubitayeho, televiziyo iri kwamamaza muri sikirini yayo, bigaragara ko ari muri biro ya emutiyene.

Inyubako mo imbere bigaragara ko ifitemo ibyumba bigiye bitandukanye, icururizwamo ibikapu, imyenda, n'ibindi bintu byinshi.

Ahantu hari inkweto, ibikapu, sandare, masayi, bigaragara ko hari ibihacururizwa nk'imikandara, harimo n'abantu baje kugura cyangwa kureba ibyo bari buhakenere.

Inzu y'amakaro harimo abantu n'ibintu bicuruzwa, burubandi, amata, amaji ama biswi, bigaragara ko ari supamaketi icururizwamo ibyo kurya cyangwa kunywa.

Inyubako ndende ndetse baratwereka mo imbere, harimo ibyumba bigiye bitandukanye ndetse ubona ko hari ahacururizwa imyambaro ndetse n'ahacururizwa amatelefoni, n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abantu bigiye bitandukanye,...

Abantu benshi barimo abasaza bambaye ingofero z'umukara, bafite n'utubando, ni ababyeyi n'abakecuru bicaye ku ntebe, ubona ko bategereje umuntu cyangwa kujya ahantu habugenewe bafite icyo baje gukora.

Abantu babiri bambaye imyenda y'umukara, umunyamuryango ku isonga urwego rssb ubururu, umweru.

Abantu babiri bahagaze umukecuru n'umusaza ndetse ubona ko bari kwamamaza ayo magambo yanditse hano ngo ejo heza ubwizigame bw'igihe kirekire buzakomeza kubaho neza no muri pansiyo, bari kwerekana uburyo ki wazagira amasaziro meza.

Inyubako ndende ubona ko ari mu mujyi mbere yayo hari imihanda igiye itandukanye harimo imodoka zo mu bwoko butandukanye kwasiteri zitwara abagenzi, intoya zigenderamo abayobozi n'abandi baturage batandukanye.

Reba imisanzu yawe muri Ara esesebi Rwanda sosho sekiriti bodi, ibara ry'ubururu ibara, ry'umuhondo ibara ry'umweru

Ibipapuro byinshi by'umweru, biteretse ku meza ariho igitambaro cy'umuhondo, impande hari akantu k'umutuku, ibi bipapuro kimwe muri byo kiragaragaza RSSB.

Ibiti, inzu ifite amabati y'ubururu, abantu benshi bigaragara ko ari igikorwa bitabiriye, harimo n'icyapa cy'umweru cyanditseho ngo ejoheza, hasi yacyo hari ikindi cyanditseho Rwanda Sosho sekiriti bodi, awa herufu awa fiyuca.

Icyumba hahagazemo umuntu bigaragara ko ari arimantasiyo yagenewe kugurirwamo ibintu byinshi bitandukanye, harimo nk'amabiswi amabombo, amata n'ibindi bintu byinshi cyane.

Iduka rinini harimo umuntu uhagaze ufite ishashe wambaye tisheti y'umukara bigaragara ko bacuruzamo ibintu by'ibiribwa birimo amabiswi ari mu icupa ry'amazi.

Inyubako irimo amatara menshi ndetse hari utubati turimo ibinyobwa bigiye bitandukanye koka, oranje ndetse n'andi mabara, bigaragara ko ari muri supamaketi ahahirwa buri kintu cyose cy'ikinyobwa cyangwa icyo kurya aho wagisanga.

Akagare gatwara ibintu byose umuntu aba yaje guhaha muri Mega supamaketi, harimo ama ji, amavuta bulu bandi ndetse n'ibyokunywa bijyanye n'ibyabana nk'amata n'ibindi, byose ubisanga muri supamaketi kandi ukabasha kubinywa neza uryohewe.

Icyumba kirimo imbuto nyinshi z'ubwoko bugiye butandukanye inanasi, amalonji, ndetse n'ibinyomoro n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Abantu babiri bari mu cyumba kirimo firigo irimo keke, iruhande hari ahantu hari amandazi, ibiraha, capati, bivuze ngo ni ahantu hakorerwa ibintu byo kurya.

Abantu bane, umwe wambaye ishati y'ubururu, babiri bambaye imipira y'umuhondo undi bari kwerekana muri mudasobwa, bigaragara ko ari kumwereka uko yishyura kuri terefone ko hano ni iduka ricuruza amagi, biswi n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umugore wambaye agapfukamunwa k'umukara ndetse n'ikanzu y'icyatsi, ari ahantu bacururiza amaji, amata, amazi ndetse imbere ye hari umugabo uhagaze wambaye masike y'umweru n'amadarubindi, afite agashishi mu ntoki karimo ibiribwa ari kwitegereza bigaragara ko yaje guhaha.

Imigati y'ubwoko bugiye butandukanye, iri muri kontwari yubakishijwe imbaho, bigaragara ko iri ku isoko, iri kuranguzwa, hari umuntu uyifasheho n'ikiganza, wambaye igikomo.

Umugore wambaye umupira w'umutuku ndetse n'itaburiya y'akazi akora, afite ishashi irimo inyanya ndetse imbere ye hateretse n'imbuto, ubona ko hari umuntu ari gucuruzaho ibyo biribwa cyangwa izo mbuto.

Inyubako irimo amakaro, amatara bigaragara ko ari supamaketi icuruza amashokora, amata, amaji, amazi, yawurute n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye.